Imbuga nini cyane irimo amabara y'umuhondo, ihagazemo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, biri mu bwoko bwinshi cyane butandukanye, bisize ibara ry'umweru ndetse bifite ibirahure.

Ikintu giteretseho uducupa twinshi cyane dufite ibara rimwe ndetse dupfundikiye turiho icyapa kinini cyane kirimo amabara menshi cyane atandukanye ndetse n'ibirango bitandukanye.

Ikusanyirizo ry'amata riteretsemo ibikoresho bibiri by'ikoranabuhanga ndetse bimanitseho ibyapa byinshi bitandukanye, rihagazemo umuntu ufite uruhu rwirabura.

Ishusho nini cyane iriho imibare myinshi cyane iri mu mabara menshi cyane atandukanye ndetse yanditseho amagambo menshi cyane atandukanye, iriho ishusho y'umuntu ndetse n'ibindi birango biri mu mabara menshi cyane atandukanye.

Ibimera byinshi cyane biri ahantu hateretse intebe nyinshi cyane ndetse n'imeza iriho igitambaro cy'umweru iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye birimo ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitari ibyo kunywa.

Icyumba kinini cyane gifite igikuta gisize ibara ry'umweru ndetse kimanitseho ibintu byinshi cyane giteretsemo imeza ndetse n'intebe zifite ibara ry'umukara.

Umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse urimo n'abantu benshi cyane batandukanye, uri iruhande rw'inzu nini cyane, ifite ibirahure byinshi cyane, ndetse n'amadirishya.

Icyumba kinini cyane gisize ibara ry'umweru ku gikuta ndetse no hejuru kirimo igitanda kinini cyane kiriho amashuka afite amabara atandukanye ndetse n'umusego.

Icyumba kinini cyane kirimo itara, ndetse gisize ibara ry'umweru, gifite inzugi zirimo ibirahuri, giteretsemo igitanda kiriho amashuka afite amabara menshi cyane atandukanye.

Inzu nini cyane isize amabara menshi cyane kandi atandukanye, ifite imiryango myinshi cyane kandi itandukanye, iriho amashusho menshi cyane kandi atandukanye, imanitsemo ibyapa byinshi cyane kandi bitandukanye, icururizwamo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, barimo abakuru ndetse n'abana batoya, bicaye bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara menshi cyane atandukanye, mu ntoki zabo bafite ibipapuro bisa ibara ry'umuhondo.

Umuntu ufite uruhu rwirabura uhagaze, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, uhagaze imbere y'imeza ndende cyane, ndetse iruhande rwe hari intebe z'umweru ndetse n'izindi meza ngufi.

Utubati twinshi cyane kandi dutandukanye duteretsemo ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye bifite amabara menshi cyane kandi atandukanye ndetse hari n'ibindi byinshi cyane bimanitse ku byuma.